Mu ishuri habamo ibikoresho binyuranye. Habamo intebe, ameza n'ibindi byinshi abanyeshuri bigiraho.

Iki ni kigo cy'amashuri, amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, arakoteye, inzugi zisize irangi ry'ubururu, amabati ni ubururu. Abanyeshuri bazigiramo ubwenge bwinshi cyane.

Inyubako zimeze nk'ibyumba by'amashuri. Imbere yaho hari amabendera, hirya hari umucaca mwiza cyane. Amashuri ni meza kuko yungura abana benshi ubumenyi, kugira ngo bazabe u Rwanda rw'ejo rwiza.

Inzu bigaragara ko ari mu cyumba cy'ishuri. Isize irangi ry'umweru, ifite amatafari ahiye, muri icyo cyumba harimo ikibaho cyandikishijeho ibihingwa na mwarimu.

Amashuri ya garidiyene. Amashuri ya garidiyene atuma abana batoya bagira ubwenge bwinshi, bakazajya mu mwaka wa mbere barajijutse baramaze guhumuka, ku buryo bakomeza bafite ubwonko bujijutse.

Mu cyumba cy'ishuri habamo ibikoresho byinshi. Habamo ameza, intebe, utubati, ingwa n'ibindi byinshi binyuranye.

Abanyeshuri bari mu igaraji, bari kwiga gukanika imodoka. Nibamara kubimenya bizabateza imbere, babe abakire.

Ameza ateretsweho imashini za mudasobwa n'abantu bari kuzikoresha.

Abakozi benshi bari guponda bafashe ibitiyo, beto igirwa na garaviye, na sima ,n'umucanga. Beto ikomeza amazu cyane.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye imyeru n'ubururu, bamwe bari kurya imineke, abandi bari kurya imiceri n'akawunga.

Icyumba cy'ishuri harimo ameza, intebe n'udukinisho tw'abana.

Abanyeshuri bari kwandika imbere yabo hari n'amakayi, ni bakuru wagirango biga muri muri kaminuza.

Abanyeshuri bari kwiga iby'ubuganga, bivamo kudufasha mu buzima bwacu, aho tubona n'inzobere zaturutse muri abo banyeshuri.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu. Imbere ye hari imashini wagira ngo niponda beto, igafasha abubatsi kugira vuba.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo ku meza hateretse imashini za mudasobwa. Aba banyeshuri bari kwiyungura ubumenyi, kugira ngo ejo habo hazabe heza.

M'Urwanda habamo amashuri atandukanye mu kiburamwaka, muri primairi, muri segonndairi, bakiyungura ubumenyi bakaziteza imbere.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'imikara, imbere yabo hari imashini kabuhariwe bari kwiga gukanika.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari gukoresha za mudasobwa kugira ngo biyungure ubumenyi, kwiga ni ingenzi bizatuma biteza imbere.

Abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu. Mu mutwe bambaye ingofero z'imihondo nk'iz'abafundi. Imbere yabo hari imashini bari gukanika ni abakanishi.

Abanyeshuri bari mwishuri, imbere ya bo hariho ameza n'amakayi, umunyeshuri umwe afite amakaramu anyuranye, ubururu, umuhondo n'umutuku.

Abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu, ni abafarayeri bari gukata ibyuma bya ferabeto, hirya yabo hari umugabo umeze nk'umukapita ubakoresha.

Abanyeshuri bambaye imyenda inyuranye bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, kugira ngo biyungure ubumenyi, bamara kurangiza amashuri bakaziteza imbere.

Umunyeshuri wambaye imyenda y'ubururu, imbere ye ari gukanda imashini za mudasobwa. Abanyeshuri baba bafite ubwenge kubera kwiga.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kurebana na mwarimu wa bo. Ni abanyeshuri bakuru, barakuze, barajijutse. Bashobora kuba biga muri kaminuza.

Abanyeshuri bafite amakayi imbere ya mwarimu, baje gukosoza ibyo banditse.

Abanyeshuri mu ishuri biga ibintu byinshi (biga gukanika imodoka, kuzitwara, n'ikoranabuhanga).

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye iniforume hejuru umweru hasi kake. Imbere yabo hari za mudasobwa. Bari kwiga ikoranabuhanga kugira ngo biyongerere ubumenyi.

Mu ishuri habamo ibikoresho binyuranye, habamo ameza y'intebe abanyeshuri bicaraho, ikibaho umwarimu yandikaho ubwo amasomo agakomeza.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abantu babiri imbere yabo hariho ameza, hariho udukarito tubamo mudasobwa. Mudasobwa ariyabanyeshuri bigiramo ikoranabuhanga bakiyungura ubumenyi.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero y'umuhondo. Iruhande rwabo hateretseho akantu kabamo ibikoresho. Imbere yabo bari kurebera muri jimeri wagira ngo bari gufotora ibyerekeye amashanyarazi nangwa amazi.

Umukobwa n'umuhungu barunamye bari kureba muri za mashini bita mudasobwa, bashobora kuba barize ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Mu cyumba cy'amashuri habamo ibikoresho binyuranye, ameza, intebe, abanyeshuri bicaraho iyo bari kwandika, n'amakaramu yabo. Kwiga ni byiza, ni ingirakamaro.

Mu mashuri y'imyuga bigamo ibintu binyuranye, ububaji, ubwubatsi, ubusudizi n'ubukanishyi, ibi byose bituma abanyeshuri bihangira imirimo.

Abanyeshuri bari mu ishuri begamiye kumeza imbere yabo, abanyeshuri bambaye imyenda y'imyeru, kwiga ni byiza iyo barangije kwiga bibateza imbere bakazabaho neza.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye amashati y'imyeru, imbere yabo hari ameza, umwarimu imbere yabo ari kubigisha, yambaye ikoti ry'umweru n'ipantaro ya gitaka, iruhande rwe hariho akabati.